Hirya no hino usanga inzu zikorerwamo ibikorwa by'ubuvuzi， bitanga imiti igiye itandukanye yifashishwa mu buzima bw'umuntu， kugira ngo igihe umuntu arwaye， abashe kuba yavurwa agakira.

Mu Rwanda hari inzu nyinshi zikorerwamo ubuvuzi ugenda usanga hirya no hino kugira ngo zifashe abaturage mu kubakemurira ibibazo by'ubuzima bagenda bahura na byo, ibijyanye n'uburwayi usanga izo nyubako zisa neza kandi zisukuye.

Ikigo cy'igirwamo n'abana harimo abana bari ku bitanda, kugira ngo babashe guhabwa amasomo banaruhuka, ndetse n'abarezi babo babafasha kugira ngo babungure ubumenyi bugiye gutandukanye.

Amatunda matoya aba aryoshye cyane amatunda yera, mu tubara tw'umuhondo aho yakundaga kugaragara kera cyane, aho muri iki gihe atagikunda kuboneka.

Iyo ugiye hirya no hino, ntubura kuhasanga umurima uteyemo ibiti bya avoka bitanga imbuto ziribwa, zigatuma abantu bagira ubuzima bwiza, kandi bakabasha kubaho bameze neza.

Inyubako itariyuzura iyo yegereye usanga iri ahantu hasa nabi mu gihuru, mu gashyamba ahandu hari imyanda iki itandukanye, kubera ko ibitari yakuzuye bigatuma uwo ari we wese akorera ibihanduza.

Hirya no hino uhasanga umurima uteyemo ibiko, ibiko bikaba byifashishwa mu kuzitira cyangwa se mu guca imbibi, zitandukanya umurima umwe n'uwundi, kugira ngo abaturage babashe kubana bumvikana.

Iyo ugeze mu bihuru uhasanga amwe mu matunda akiri matoya. Amatunda aba ameze neza, aba ari amatunda matoya yera. Iyo amaze kwera, atanga urubuto rusa umuhondo, akaba ari amatunda akunda kuribwa n'abana.

Igihingwa cy'ibinyomoro bimeze neza bikiri mu kigero cyo hasi bitaragera igihe cyo kuba byakwera aho byitabwaho ku buryo bwiza birabyibushye kandi bimeze neza

Iyo ugeze mu gihuru ntiwabura kubonamo amoko menshi atandukanye y'ibyatsi aho dusangamo igisura. Kikaba ari icatsi gikunda kurya umuntu ugikozeho kuko kigira ubumara buhita bukwinjiramo bukagutera kuribwa mu mubiri.